Abagore n'abagabo bicaye mu ntebe z'ibitambaro by'umweru, n'ameza asasheho ibitambaro by'umweru, imbere yabo akaba ari umugore ufite indangururamajwi, bigaragara ko arimo kubaha ikiganiro, kandi hakaba hari amashusho ari kugaragara ku gikuta ubona ko abicaye bari no kuyakurikira, bakaba bafite uducupa tw'amazi n'amakaye yo kwandikamo.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye bicaye mu ntebe z'umukara bakaba imbere yabo hari ameza maremare abazengurutse imbere yabo, kandi bamwe bafite imashini za mudasobwa; hakaba hari uducupa tw'amazi bakoraniye ahantu hamwe mu gikorwa cy'inama.

Abagabo n'abagore batandukanye, bicaye mu ntebe z'imifariso, zifite n'aho bashobora kurambika imashini ya mudasobwa, bose bakaba bafite imashini zibari imbere, bakaba bambaye imyenda itandukanye, bakaba bari mu cyumba kinini rero, ari umubare w'abantu benshi.

Inyubako ifite imiryango itandukanye, akaba ari inyubako iteye amarange y'umuhondo hakaba hanze hateye amakaro y'umweru hakaba hagiye hari imiryango myinshi itandukanye, hakaba hari muryango umwe, uriho icyapa cyanditseho irembo hakaaba ari ahantu rero ushobora kujya kwifashisha gushaka serivisi zitandukanye za leta.

Uburyo bwo kwaka icyemezo cy'uko utakatiwe n'inkiko gitangwa n'ikigo cy'irembo. Kikaba ari uburyo wajya kuri murandasi hanyuma ugakoresha serivisi zose z'irembo harimo no kwaka iki icyemezo cy'uko utakatiwe n'inkiko.

Umunara muremure wubakishijwe ibyuma, hakaba hariho insinga z'amashanyarazi ziriho byinshi bitandukanye, hakaba hariho udukoresho twifashishwa mu tumanaho bitandukanye, akaba ari umunara uri ahirengeye kandi, akaba na wo ubwawo ari muremure.

Umugore cyangwa umukobwa uri ku rwego rw'icyuma akaba yuriye igiti cy'amashanyarazi, kiriho insinga zijya mu byerekezo bitandukanye, akaba yambaye rero ibikoresho bimufasha gukora amashanyarazi, harimo nk'imikandara, amasarubeti n'ingofero, biza kumurinda mu gihe ari bube ari gukora ibikorwa byo kugeza amashanyarazi ku baturage.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo yanditse mu ndimi zitandukanye aho ari amagambo yo mu kinyarwanda bakongera bakayasubiramo mu rurimi bw'icyongereza n'ururimi rw'igifaransa, hakaba harimo ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, hasi hakaba handitse mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda.

Abagore n'abagabo batandukanye bambaye imyenda yambarwa n'abantu bakora mu nzego z'ubushinjacyaha, bakaba bahagaze imbere y'amadarapo y'u Rwanda buri umwe hari idarapo rye, kandi bakaba bazamuye akaboko k'iburyo, idarapo bakarifatisha akaboko k'ibumoso barimo bakira indahiro zitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro, bikaba ari ibikoresho bifite akamaro gatandukanye uko kimwe gifite ibara ry'umutuku, ikindi gifite ibara ry'umweru; bishatse kuvuga ko bitazimya inkongi z'umuriro zimwe kuko buri gikoresho gifite ubwoko bw'inkongi y'umuriro gishinzwe kuzimu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange y'amabara y'umweru, utubara t'icyatsi mu rubavu, ukaba kandi ari umuhanda ufite impande ebyiri zose hagendamo abanyamaguru, ipikipiki mu muhanda n'ibiti bikikije hirya y'umuhanda. Hakaba hari n'umuferege utwara amazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo imodoka itwara ibicuruzwa byinshi bitandukanye, akaba hirya y'umuhanda hariho ibiti bikikije umuhanda kandi hakaba hari abanyamaguru bagendera ku mpande zombi.

Imihanda ya kaburimbo ibiri, akaba ari imihanda iri ahantu hatandukanye, hagati hakaba harimo ubusitani burimo ibiti by'imikindo n'izindi ndabyo zitandukanye, hagati kandi aho ngaho hakaba harimo ibiti by'amashanyarazi biriho amatara ku muhanda. Umuhanda umwe ukaba uri kugendamo ipikipiki, hirya y'umuhanda wa kabiri hakaba hariho ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo ipikipiki y'amapine atatu y'ubururu, hakaba hari kugendamo imodoka nini itwara ibintu bitandukanye, harimo umucanga, amabuye, y'umutuku, hirya ye hakaba hari inzu ndende yubakishije ibirahure, hakaba haparitse imodoka hasi aho ngaho y'iyo nzu.

Imodoka ebyiri zitwara imyaka imwe ikaba ari imodokadoka itwara imyaka myinshi ikaba itwara imyaka igereranyije kuko ntabwo zingana. izo modoka rero zose zikaba zihetse ibintu bitandukanye zikaba ziri ahantu ziteganye mu muhanda hirya y'umuhanda kandi hari igiti cy'amashanyarazi cy'icyuma gitwaye insinga z'amashanyarazi mu byerekezo bitandukanye n'ibiti biri hafi y'umuhanda n'inyubako zitandukanye

Umudugudu munini uri mo inyubako zitandukanye: harimo inyubako z'amagorofa, harimo inyubako zindi nini zitandukanye, hakaba harimo inzu igaragara cyane isakajwe amabati y'ubururu kandi hakaba hari indi irimo amabara y'umuhondo n'umukara, hakaba n'andi mazu menshi ageretse ari hirya n'ibiti bindi bikikije hafi aho ngaho.

umuhanda wa kaburimbo wamopikipiki yo muhanda hakaba ari ibiti by'amashanyarazi'ibyuma birimo amatara ku muhanda ha akaba'ibiindi bitandukanye hakaba imodoka ziparitse ha ikarya y'umuhanda n'abanyamaguru bari kugenda mu muhandasanzwebo